Gutera umuti mu birarayi bituma umusaruro wiyongera, ku buryo niba hari kwera imifuka icumi, habasha kuvamo makumyabiri.

Gutera umuti bifite akamaro kanini, urubuto ruterwa umuti bigatuma ruhora rutoshye, kandi rukera vuba, rukera ruboneye.

Gutera mu ibigori umuti bibirinda kuzana shokomwa kuko irabirumbya ugasanga umuntu asaruye ubusa.

Umugabo wambaye ipantaro yacitse ukuguru kumwe n' ukundi kuri hafi gucika. Ari gutunganya ifumbire y'imborera.

Umuti bateraga mu birayi kugira ngo bigume gutohagira bizabashe gutanga umusaruro.

Imifuka zisa ubururu n'ugundi g'umweru, gusa ntago bamenya ibintu biba birimo.

Isambaza ziturukaga mu kivu, zikatugeraho kugira ngo zidufashe gutegura indyo yuzuye tuziteka.

Isambaza ziboneka mu kiyaga. Abarobyi bararoba bakaduha izokurya, tuzibonera bugufi.

Izi bazita tamusoni. Ufata ipanu ukazikawusha, iyo umaze kuzikawusha ufata tungurusumu, igitunguru, ugakora isosi.

Karoti, ifi, inyanya, ibirayi, byose tubikoreshe muguteka indyo yuzuye.

Ifi bamaze kuroba zikiri muri ka gatimba, ziba nziza zidufashaga kubona isosi bitatugoye.

Amafi rimwe, abiri, atatu. Biba byiza iyo ushatse gukora isosi, ukayikora ufite amafi.

Tamusoni iyo zikirimo barafu izirinda kuba zangirika, bigatuma zigumana forume yazo.

Amafi iyo gari muri barafu bitumaga gagumana ubuziranenge, kugira ngo gatangirika bikatuzanira igihombo.

Ifi zikiri muri barafu ziba muri firigo kugirango zitaza kwangirika.

Amafi ari muri barafu akaba ahantu habugenewe kugira ngo gataza kwangirika gagomba kugumana.

Ubwoko bw'amafi, izi bazita tamusoni ni imwe, ibiri, itatu, ine, itanu, ziri mu kantu kameze nk'akadobo.

Umugabo yambaye umupira gw'umutuku, akaba afashe agasahani, imbere ye hari indagara mu base.

Ifi ikataguye ku buryo ibirungo biba byagiye byinjira mo imbere. Iruhande rwa yo hari indimu ikase, hakaba ibitunguru. hakaba inyanya, sereri.

Amafi ari mu bintu bituma tubasha gutunganya ifunguro, tukarirya rimeze neza kandi rifite intungamubiri, abana bakaboneraho kugira ubuzima bwiza n'ababyeyi babo.

Urubingo rw'ubwatsi tubugaburiraga amatungo, cyane cyane inka, kugira ngo ziduhe amata meza aryoshe.

Ikinani cyo basaruyemo ibigori, iyo bivuyemo hakurikiragaho guhindura bakashiramo ikindi gihingwa, kugira ngo kizabone umusaruro hadasubiyemo ikivuyemo.

Ubwatsi bw'inka turabwahiraga, iyo bumaze kwera tukabugaburira amatungo.

Ibirayi biteye mu murima munini, iruhande hari ibigori basaruye, hakabamo insina z'urutoki.

Imboga za pinari zibaga nziza cyane kuzibeteshanya n'isombe ukazitekana hamwe.

Inzu yubakishije amatafari ga rukarakara, impande yayo hari ibiti byakuze ku buryo byayipfukiranyije.

Ibigori bikiri bibisi kwa kundi, barabicaga, bakotsa, biba biryoshe, nta go biba byari byagera igihe cyo kuma.

Umurima gwo basaruyemo ibigori, ibicoricori babyegeka ku nsina zifite ibitoki.

Ihene zikundaga kurisha mu murima urimo ubwatsi butoshe, kuko zo ntabwo zikundaga kurya ahantu hatari ubumeze neza.

Ibikenyeri byo basaruyeho amasaka gavagamo umusururu, umubirizi, igiti cy'avoka kirimo voka zitari zera.

Karoti zikiri mu murima, batari bagera igihe cyo kuba bazisarura, ziba nziza zidufasha kwivura cyane cyane indwara z'amaso.

Umurima urimo igiko, imirwanyasuri yifashishwa, bayitera ku mukingo w'umurima.

Ibirayi bikiri bito bigeze mu gihe cyo kuhira, iruhande hari ibiyote, igiti cy' isombe n'imibyare y'urutoki n'inzu.

Akayira kanyuze hagati y'inzu n'umurima kaba keza kuko gakunda kudufasha mu gihe tuba tutaragera ku muhanda.

Karoti zigiteye zitaragera igihe cyo gusarura, iruhande rwa zo hari ibiti bikikije uwo murima.

Ibirayi bibaga bimwe mu bihingwa bitumaga dutera imbere kuko bigira umusaruro mwinshi bitewe n'uko tuba twabikurikiranye.

Inanasi, umumama urigupakira azishyira mu gitebo . Impande ye hari igare riri bumufashe kuzigeza ku isoko.

Abagore bikoreye ibitebo bavuye gusaroma amajyani bari kugenda mu kayira gato cyane.

Amashu mu murima ateye ku kumuronko，baraguhiraga kugira ngo kagumye gatohe bakagasukira n'amazi.

Umugabo uhagaze mu murima, ufashe ibigori, ari guseka, yambaye umupira gw'icyatsi.

Abakozi bari gukora mu murima w'amashu kugira ngo azatange umusaruro uhagije, bibaga byiza iyo bagumye bayanyuramo.

Umurima gw'inyanya, harimo abakozi bari gusoroma inyanya. Barazijana ku isoko tuzigurire bugufi.

Zimwe mu mboga, twifashisha mu guteka, kugira ngo tubone indyo yuzuye, bityo abana natwe babeho neza.

Ibirayi, umugore ufashe umugozi uriho ibirayi, abandi bari kumureba cyane.

Ibirayi bya Kinigi bibaga byiza cyane, urabitekaga bikaba byumutse ntabwo bifonyagurika.

Ipera ni urubuto rwiza cyane mo imbere haba harimo imbuto riba risa umutuku.

Imbuto, indimu, Wotameloni, imyembe, ibinyomoro, amatunda, amapapayi, inanasi.

Ibijumba turabikundaga cane cane, biduteraga imbaraga bigatuma dushishikarira gukora imirimo kuko tuba twahaze.

Abakozi basoroma icyayi kugira ngo tubone uko tugiteka cyamaze gutunganywa neza.

Ibitoki barabitara, byamara gushya bivamo imineke, niyo dukunda kurya, iba iryoshye.

Abaturage barimo abagore n'abagabo bari mu murima gushishikarira guhinga kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umugore w'umusoromyi uri guca amajyane. Aba meza cyane! Iyo bamaze kuyatunganya, turayakeneraga.

Abagore bari gukura ibirayi mu murima, bireze kugira ngo babijyane ku isoko.

Imyumbati bazikuraga mu murima, bakazitwara ku gare bazijaniye abakeneye kuzihaha ngo bazirye bumve ukuntu ziryoha.

Ibishyimbo bivangavanze bibaga byiza，kuko iyo ubiteye ntago byose birumba， havamo ibyeze ibindi bikarumba.

Iri ni itunda, ridufashaga kugaburira abana intungamubiri yuzuye kugira ngo tubarinde kurwaragurika.

Ibigori bihanitse ahantu habugenewe, haba harateguriwe kubihashyira, mu gihe biba bitari byuma neza.

Amatunda mu base menshi. Adufasha kugira ubuzima, kubera ko mbere y'uko dufata ifunguro turabanza tukazirya.

Igiti cy'umwembe. Umwembe ni umwe mu mbuto zikundwa, ziryoha, urawufata, ukawuhata, ukawukata, ukawurya.

Ihene iziritse ku giti, kiri mu kinani. Iba nziza cyane, kuko irororoka kugeza ubwo yava kuri imwe, ikagera ku zirenga makumyabiri.

Amatunda gasatuye ni atatu, agandi ntabwo gasatuye. Gararibwa cyane cyane mbere y'uko ufata irindi funguro.

Ibigori bivamo kawunga, igikoma, tukabigurisha, tukabona amafaranga, tugakemura ibibazo.

Ibiti by'amapera birenga kimwe. Aba meza cyane. Ni rumwe mu rubuto rugirira umubiri wacu akamaro.

Igitoki cya poyo kidufashaga kubona imineke bigatuma tuyikunda, tuyifashisha mbere yo gufata ifunguro ryatetswe.

Gufuhirira amashu kugira ngo gatabura amazi gakuma. Impande y'amashu hateye ibigori birikumera.

Isoko ry'ibitoki by'inyamunyu bikunda kugemurwa hakoreshejwe amagare, kugira ngo babigeze ku isoko bigurishwe.

Umurima w'ibigori, ibigori byeraga iyo bihetse bikera bigacurama ni bwo tubisarura.

Isoko ry'ibitoki by'inyamunyu, kiguraga ibihumbi icumi, tukakigaba mo kabiri, kimara icyumweru.

Isoko ry'ibitoki. Ni byiza ko babifata bakabitereka ahantu habigenewe humutse kugira ngo bitaza kwangirika.

Isombe ni bimwe mu bihingwa twifashishaga duteka, kugira ngo havemo indyo yuzuye ibaga nziza cane.

Umuturage akoreshaga umuti atera ibigori, ipombo, inzu, bigatuma umusaruro wiyongera.

Imiteja Idufashaga gutegura ifunguro ry'imboga, imboga z'imiteja ni zimwe mu birinda indwara ku buryo tutarwaragurika.

Ibirayi mu isoko, byasutswe ahantu habugenewe, uburyo babasha kubona uko babicuruza bitabagoye.

Avoka isatuyemo ibice bibiri, ikibuto cyayo bidufasha gutegura ifunguro.

Ibisheke birambitse hejuru y'amabuye y'amakoro, bigiraga uburyohe niyo mpamvu abantu babikundaga cane.

Ibijumba by'umutuku ni ibijumba bikundaga kuryoha cyane， biba bisumbya ibindi byose.

Imyumbati barayihinga. Iyo yeze barayirandura, bakayikura, bakayijyana ku isoko tukayihaha.

Ibi bigori babyitaga mayizoyi, bifite ibara ry'umuhondo, bifite umumaro munini cyane, ni byo biva mo injugu.

Mu muhanda w' igitaka abagenzi bari kugenda n'amaguru, abanyonzi basunitse inanasi ku magare.

Inoryi, inyanya byose bidufasha guteka imboga ku buryo ziba zimeze neza, kugira ngo tuzirishe ibindi twateguye.

Imyumbati iyo tugiye kuziteka turazozaga kugira ngo itaka riveho, tuziteke zimeze neza cyane kugira ngo zitaza kugira imyanda zidutera.

Karoti zikuye barunze ahantu, ziba nziza cane. Zifasha amaso gusa neza, iyo uzihekenye ari mbisi.

Urusenda ni bimwe mu birungo twifashishaga mu guteka, kugira ngo ibiryo bizane impumuro nziza.

Ikinyomoro ni urubuto rukomeye cyane, rwifashishwaga mbere yo gufata ifunguro, kugira ngo tube turiye intungamubiri ihagije.

Amaterasi y'indinganire adufasha guhinga, ku buryo amazi ataza ngo atembane imyaka tuba twarahinze.

Ibase irimo amapera. Ni imbuto nziza cyane. Urazica, ukazirambika ahantu heza hafite isuku, ukazirya.

Ifu y'igikoma iri mu gafuka; igikoma kibaga cyiza mu buzima kiba gikenewe.

Ibitunguru bya puwaro, bikoreshwa mu guteka kuko bigira impumuro nziza idasanzwe mbese biryoshaga ibiryo.

Abaturage bahagaze impande y'ibiti by'isombe, ibaga nziza mu kudufasha gutegura imboga. yongeraga intungamubiri.

Ikigori gitonoye, bakurikizagaho kugihungura, ukacyanika, kikavamo impungure ziryoshye.

Igiti cy'imyembe zirimo ariko zitari zera, iruhande hari abanyeshuri n'umwarimu wabo.

Umubyeyi uri gusoroma umushogoro gubaga mwiza na go abantu baragukundaga kugugereka ku bishimbo guba guryoshe.

Ibiyote, kokombre zose ni imboga twifashishaga mu guteka kugira ngo turye indyo yujuje intungamubiri.

Umurima guhinzemo inyanya zitukuye n'izidatukuye zireze ziba ari nziza cyane.

Igiti cy'umwembe ni rumwe mu rubuto rukundwa cyane， kubera uburyohe rugira bwihariye，bigatuma rwongera intungamubiri ku bantu bose.

Inkoko, z'umweru, utuntu zinyweragaho amazi, udukoresho bazigaburiraga ho ,zikaguma kuba neza.

Ibirayi iyo bimaze kwera urandura umugozi wacyo ukabona ko biriho, uhita umenya ko bigeze igihe.

Izi ni ikawa ziteye mu murimo, zibaga nziza cyane kuko zidufasha kubona ibyayi.

Amatunda rimwe risatuyemo utumanyu tubiri gabaga meza cyane ku buzima bwacu.

Umukecuru afashe ingemwe z'imisipure, zibaga nziza, bazitera ku ruzitiro zikazitira.

Abaturage buhiraga ibirayi babiha itaka kugira ngo byere neza, bityo bitange umusaruro uhagije.

Indobo ishaje, irase ishaje, ibirayi babihataga babishira mu ndobo kugira ngo barangize babiteka mu safuriya.

Rushe, isafuriya irimo isosi y'inyanya, iruhande hari inyanya, isiniya iriho ibirayi biriho ibitunguru bipfundikijwe n'isahani.

Urunyanya rutari rwagera igihe cyo kwera, iyo rweze rudufasha guteka imboga zisa neza.

Umurima guteyemo ibishimbo bigufi, harimo abantu bahagaze, iruhande hari amazu abiri.

Abaturage basoromaga amajyani badufatiye runini, batumaga igihe tuyakeneye tuyabona kuko baba baritanze.

Imyumbati zikiri mu murima, ntabwo zari zagera igihe cyo kuba zasarurwa, iyo zeze nawe urazireba ukabibona.

Imiteja yera ku bishyimbo by'imiteja, gusa barabishingirira nk'uko ibindi bikorwa.

Ibase y'umutuku iteretseho intara iriho imineke ya kabaragara, iruhande hari inkoko irimo urusenda rupfunyitse mu mashashi.

Ibigori biri mu mufuka gw'ikigunira, babikaga kugira ngo bitazana inodwe, bikaba bitaye agaciro.

Umuceri iyo gukiri hasi, guba gukeneye amazi menshi cyane, kuko gwereraga mu mazi, bigatuma gugira umusaruro mwinshi.

Umumama ari kurobanura ibishyimbo. Ibyo yarangije yabishyize mu gisuperi. Umukobwa afite isafuriya irimo ibindi.

Ibishyimbo by'indobanure biba byamaze gutoranwa ku buryo umuntu ajya mu muririma agahita abitera.

Amahundo, ibigori iyo byeze biba bitari byuma, turabihanikaga, tuzingazinga ibiti bigatuma bitabora.

Amasaka, iyo bagasaruye, bagashiraga ahantu mu gihe bategereje ko guma kugira ngo bagahure garamaze guhora neza.

Amasaka gakiri mu murima gataragera igihe cyo kwera, gaba neza kuko gadufashaga kubona imisururu n'ibigage.

Aya ni amasaka ageze igihe yeze, yayandi avamo umusururu uba uryoshye cyane.

Amajeri gumye, garabanza gakaba urunyogwe gakagera igihe bakagasarura. Gaba meza, bagatekaga mu bishimbo.

Ibishyimbo ni bimwe mu bihingwa twifashisha mu guteka, kugira ngo tubashe gukora indyo yuzuye, yiganjemo ibishyimbo.

Ingano iyo zeze barazigosoraga bakazishira mu mifuka, bakazibika ahantu hadakonja, kugira ngo zigire umusaruro mwiza.

Umuceri gweze bamaze gusarura, bakaba batari bagunyuza mu mashini ngo gube gwatangira kuribwa. Iyo bagunyujije mu byuma byabugenewe nibwo guba gwemerewe kuribwa.

Umuceri tuwifashisha mu guteka tukarya twishimye, kuko abantu benshi aho bavaga bakagera, bakundaga umuceri uraryoha.

Imifuka za kawunga z'ibiro icumi zanditseho supa hakaba hashushanyijeho ikigori.

Aya ni amasaka baragafataga bakaginika, noneho bamara kuginika hakavamo amamera niyo aya.

Hangari ububiko bw'ibigori bwemewe bwujuje ibyangombwa, uku niko bibikwa bikaba byizewe.

Ibigori iyo biteye mu murima, bigera igihe bimaze gukura bikazana umuterero ibi ndabona biwufite.

Umuntu urikubagara imboga ziri mu bintu bituma tubaho kandi tukagira ubuzima bwiza kuko ziturinda indwara.

Ibihwagari babyifashishaga mu gukora isosi. Bikoreshwaga nk'uko ushiraga ubunyobwa mu sosi ikaryoha.

Ibishyimbo byasaruwe biri mu mifuka bituma tubona ibyo kurya kandi tugasagurira n'amasoko.

Ingano ni kimwe mu gihingwa kidufasha kubona ibintu byinshi, aho havamo:ifarini ivamo amandazi, imbada n'ibindi.

Amahundo g'ibigori gamaze kuma, noneho bakapakira mu mifuka y ibidipe. Ubu ni bwo bibikika neza.

Ibishyimbo mu mifuka, ibitukura, ibivanze, iby'umweru, iby'umukara n'umweru.

Ibishyiyimbo by'ingemane biraryoha, ubishyira mu safuriya bikabyimba, bikaba binini cyane.

Igisobane tugikoreshaga mu gutara voka cyangwa se tukagihunikamo ibishimbo kugira ngo bitazanundwa vuba.

Ibase irimo ibishyimbo, impande yayo hari uruboga rwitwa urudega. Abagore, abana b'abakobwa n'abahungu bugamye mu mutaka.

Aga bagitaga amajeri, bayateka bakoresheje yaba amabisi cangwa urunyogwe, arera cyane.

Ibigori biri mu mifuka. Babisaruraga bimaze kwera ku buryo bitaba bigomba kuja birabora.

Kurobanura ibishyimbo iyo tugiye kubitera, turabanza tugakuramo ibyapfuye kugira ngo hasigare ibizima.

Ibinyobwa babiteraga nk'uko bateraga ibishyimbo， kuko na byo barabishengiriraga bikazamukira ku biti.

Soya ni igihingwa kidufashaga kongera intungamubiri, ifu yayo tuyivanga n'amasaka n'ingano n'ibigori n'uburo tukabivanga bigatanga igikoma cyujuje intungamubiri.

Igihagari cyeze neza kuko cyamaze gucurama. Biba byiza ifu yayo kuyishyira mu sosi.

Umubyeyi uri kugosora ibishimbo. Iyo umuntu agiye kubiteka arabanzaga akabigosora, kugira ngo imyanda zivemo.

Ingurube imwe, ibiri, itatu, ine, itanu, itandatu ziri mu kiraro cyazo cyubatse, gikomeye ku buryo zitavamo.

Ingurube zikoreshwaga mu kuzibaga bakazikora mo akabenzi, zitanga n' umusaruro w'ifumbire rihagije.

Umugabo afashe akaguru k'ihene ya Ruhaya, ari kureba ko ifite ibinono.

Umugore uri kugaburira inka imeze neza. Biba byiza uko ugabuye neza bituma inka itanga umusaruro.

Inka ibyaraga inyana tukabona amata, tukorora twishimye, tukagwiza ubukungu ku isi hose.

Inkoko, umworozi, ni byiza cyane korora bituma tubaho neza mu buzima bwiza.

Inka zifite amahembe maremare cyane, ziri mu kinani kiri mo ubwatsi bwiza cyane, ni yo mpamvu na zo zibaga ziboneye.

Ingurube, umworozi wayo, ikiraro cubatse ku buryo bukomeye ku buryo itabona uko ivamo.

Ababazi bari kubaga inyama bakoresheje ibyuma, bambaye imyenda yabugenewe n'ingofero.

Agatama, umugore ugateruye akazu k'ibyatsi k'amatafari y'inkarakara.

Ubworozi bw'inkoko bubaga bwiza cyane, bazigaburiraga bakoresheje utwo tuntu tw'umweru ubona tumeze nk'utudobo.

Ingurube zibaga nziza kuko zidufashaga kubona ifumbire bitatugoye, kandi zikaduha n'akabenzi.

Gukingira inka, abaveterineri ni bamwe mu batuma tubona umusaruro uhagije, batuma zitarwaragurika.

Inka z'inzungu zigiraga umusaruro uhagije cyane kuko zigiraga amata menshi cyane, tukanywa kandi dusaguriraga n'amasoko.

Abaveterineri bari gukingira inka bambaye ubupfukamunwa, haba harimo no kwirinda ko hari indwara bakandura cyangwa se bakanduza.

Ingurube iyo ibyaye uku ni ko yonsaga imeze. Ibyana icyenda byose bizakura bibe binini.

Inkwavu zibaga mu kibuti cyazo, biba bisaba kuzirinda ubukonje, ntizirya ibyatsi bikonje, ziryaga ibyatsi byumutse gusa.

Inyoni ihagaze mu murima, ziba nziza cyane nazo kuko zibyuka zisakuza zikatuzindu.

Ibyatsi! ingaryi idufatiye runini! Abakerarugendo muri parike, gusura inyamanswa basiga amadovize.